Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, imirama ikoreshwa mu buhinzi ndetse n'imiti yifashishwa mu kwirukana udusimba tuza mu bihingwa, aha hari mu tubati aho igihe imanitse hasi ndetse no hejuru.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, ibijumba, ibirayi ndetse n'amateke, aho abaturage bari kubyitaho bashyiraho imvaruganda, kugira birusheho gukura neza, bityo bizajyanwe ku masoko mpuzamahanga.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu kurwanya udukoko twangiza ibihingwa, harimo utubati, aho imiti igiye ipanze hasi ndetse no hejuru.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibijumba, ndetse n'ibindi bitandukanye aho umugore ari kugenda abishyiraho ifumbire mvaruganda kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabashe no kugemurira amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye higanjemo imboga n'imbuto. Umusore wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ahetse igikoresho mu mugongo aho ari kugikoresha avomerera izi mboga ndetse n'imbuto kugira ngo zirusheho gukora neza azirinda ubusimba bushobora kuzitera ibibazo.

Akarima k'igikoni gakozwe mu mifuka, ibiti ndetse n'ubutaka, gateyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye cyane cyane nk'imboga ndetse n'ibirungo umuturage akoresha buri munsi, kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Ahabereye umuganda witabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bishyize hamwe bari gutera ibiti kugira ngo bizazane umwuka mwiza bikumire umwuka mubi mu kirere.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu buhinzi, harimo akabati gafite ibara ry'umweru aho kabitsemo imiti iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, ikaba yifashishwa mu kwirukana udusimba tuza mu buhingwa.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye yifashishwa mu gukumira udusimba tuza mu bihingwa, tukabibuza gukura neza bityo abaturage bagasubira inyuma. Kirimo utubati dufite amabara y'umweruru, aho imiti igiye ipanze hasi ndetse no hejuru.

Ahabereye umuganda witabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagore, abagabo, abasore ndetse n'abakobwa, aho bishyize hamwe bari gutera ibiti kugira ngo bijye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye ikoreshwa mu buhinzi, harimo akabati aho imiti igiye ipanze hasi ndetse no hejuru kugira ngo uyikeneye wese abashe kuyibona bitamugoye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho abantu benshi harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bari kubyitaho kugira ngo bikure neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, aho biri gusarurwa kugira ngo bijyanwe ku isoko, hakurya y'umurima kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu gukumira udusimba tumunga ibihingwa, tukayibuza gukura neza, harimo utubati aho imiti igimanitse hasi ndetse no hejuru.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti ikoreshwa mu kwirukana udusimba tuza mu bihingwa bigatuma bidakura neza, bityo iterambere ry'ubukungu rigasubira inyuma bitewe n'utwo dusimba twononnye imyaka.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti y'ubwoko butandukanye, yifashishwa mu gukumira udusimba utwo ari two twose dushobora kubuza ibihingwa gukura neza, bityo bigasubira inyuma, muri iki cyumba kandi harimo umugabo wambaye umwambaro w'umweru.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye yifashishwa mu gukumira udusimba tuza mu bihingwa, bityo tukabibuza gukura neza, harimo ama etajeri aho imiti igiye ipanze hasi ndetse no hejuru.

Kimwe mu cyumba kiberamo ubucuruzi bw'umurama w'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho igiye ipanze mu tubati hasi ndetse no hejuru, iki cyumba kandi harimo umugore wambaye umwambaro w'akazi wabugenewe, niwe ushinzwe kubigurisha.

Umurima uteyemo imbuto z'inanasi zifashishwa mu mirimo itandukanye, nko gutunganya imitobe izagurishwa ku isoko ndetse no gukora imiti izifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umurima uhinzemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo icyayi ndetse n'ikawa nk'ibihingwa bigemurwa ku masoko mpuzamahanga kugira ngo ubukungu bw'Igihugu burusheho kuzamuka, bityo abatuye Igihugu cyose bakomeze gutera imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo: isombe, imboga rwatsi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazagemure ku masoko Mpuzamahanga, ndetse banisagurire mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo, aho biri gusarurwa kugira ngo bijyanwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage babyitaho kugira ngo babashe kubyohereza ku masoko ndetse bisagurire mu ngo zabo.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bishyize hamwe, bari guhinga ibihingwa bitandukanye harimo imboga, imbuto, ibirungo by'ubwoko bwinshi, ndetse n'indabo, bizagemurwa ku masoko mpuzamahanga bityo bagakomeza gutera imbere kandi bateza n'igihugu cyabo imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'imboga rwatsi, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabigemure ku masoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, nk'icyayi, ikawa, ndetse n'ibihingwa bitandukanye bijyanwa ku masoko mpuzamahanga, kugira ngo ubukungu bw'igihugu burusheho kwiyongera, hagati na hagati muri iyi mirima harimo amazi akomeza kuvomerera ibi bihingwa kugira ngo bikomeze gukura neza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi imbuto z'ubwoko bwinshi ibirungo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho kugira ngo babikoreshe mu ngo zabo kandi basagurire n'amasoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imbuto, igiti cy'umwembe, harimo ibitoki ndetse n'imboga rwatsi, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagurishwe ku masoko mpuzamahanga, ubukungu bw'igihugu bukomeze kuzamuka.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo, imboga ndetse n'imbuto aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo, bityo nabo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibijumba, amateke ndetse n'ibirayi n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo, ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabikoreshe mu rugo rwabo, ndetse basagurire n'amasoko.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, ibishyimbo, imboga rwatsi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho babikorera neza kugira ngo birusheho gukura bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho byitabwaho bigakura neza, bityo bikazajyanwa ku masoko Mpuzamahanga, kandi abaturage bakanisagurira ibyo kurya mu ngo zabo, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyokurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori byongera imbaraga mu mubiri w'umuntu ndetse n'imboga rwatsi z'ubwoko butandukanye nk'ibisusa, byongera cyangwa bikarinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho byitabwaho kugira ngo bikomeze gukura neza, muri uyu murima harimo ikawa kimwe mu bihingwa bijyanwa ku masoko mpuzamahanga, bigakomeza kuzamura umusaruro w'igihugu.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ingurube, ihene n'intama, aho zitabwaho zikorerwa isuku, ndetse zihabwa ibyo kurya bihagije, kugira ngo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kuzamuka, bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Igikarito gifite amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi kibisi, iruhande rwacyo hateretse icupa ririmo umuti ubikwa muri iki gikarito, aho wifashishwa mu kwica udusimba tubuza ibimera gukura neza.

Icyumba cyororerwamo amatungo magufi azwi nk'inkoko aho akurikiranwa kugira ngo akomeze gutanga umusaruro mwiza w'amagi azajyanwa ku masoko mpuzamahanga ndetse akoreshwa mu ngo z'abaturage.

Igicupa gifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, kandi cyanditseho inyuguti mu ibara ry'umukara, iki gicupa kirimo imiti yifashishwa n'abahinzi, bari kwita ku myaka yabo, kugira ngo itangizwa n'udusimba.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye yifashishwa mu kwirukana udukoko tuza mu myaka bityo tukayibuza gukura neza, iri mu tubati aho igiye ipanze hasi ndetse no hejuru.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho yitabwaho agakorerwa isuku kandi agahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo arusheho gukura neza, bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubuhinzi bw'ingemwe z'ibihingwa zitandukanye, aho zitabwaho zigakura bityo zikagurishwa mu baturage ndetse no ku masoko Mpuzamahanga, bigakomeza kuzamura umusaruro uturuka mu buhinzi.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage b'ingeri zitandukanye, baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko, kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uhinzemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibishyimbo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bari kuganira hagati yabo uburyo bagomba kubikorera neza kugira ngo bikure bityo bazabashe kwiteza imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, aho biri kwitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi abaturage banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi, ibirungo by'ubwoko bwinshi ndetse n'imbuto, aho abaturage bari kubikorera kugira ngo birusheho kwera neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibiribwa by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibijumba, ibirayi ndetse n'amatike, aho abaturage bari kubikorera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabereye umuganda igikorwa kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, aho bari gutera indabo ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo birusheho kugaragara neza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, imboga rwatsi, ndetse n'ibirayi, aho abaturage bari kubikorera neza kugira ngo bibashe kwera, bityo bazabigemure ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari hamwe bose barunamye bari gufata ifoto y'urwibutso bagaragaza ibikorwa byabo.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa, aho bari gutera ibiti ku muhanda kugira ngo bijye bizana umwuka mwiza mu kirere.

Ahabereye igikorwa cy'umuganda witabiriwe n'abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bafite amasuka mu ntoki zabo, bari gutera ibiti kugira ngo, bizazane umwuka mwiza muri icyo kirere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, aho abaturage b'ingeri nyinshi harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, bishyize hamwe bari kubikorera neza kugira ngo birusheho gukura bityo bazabijyane ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'ibigori, ibishyimbo, ibirayi ndetse n'imboga rwatsi, aho biri kwitabwaho n'abaturage kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga.

Ahabera ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye, harimo ibigori, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza kandi bakabisarura kugira ngo bijyanwe ku masoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibirayi ndetse n'ibijumba, aho abaturage bari kubikorera neza kugira ngo bikomeze gukura bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima urimo abaturage b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bashyize hamwe bose bafite amasuka mu ntoki zabo bari guhinga kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Ahabereye umuganda igikorwa kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bose bashyize hamwe bari gutera ibiti bizazana umwuka mwiza muri iki kirere.

Umusore wambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara, ndetse n'umupira ufite ibara ry'icyatsi kibisi. Ari kuyora ibitaka, akoresheje igikoresho cyabugenewe. Aho ari kubishyira, ku musumba, kugirango bige gukoreshwa imirimo itandukanye. Hakurya ye hateye insina.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibishyimbo, amateke ndetse n'ibindi bitandukanye, aho biri kwitabwaho n'abaturage kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga, banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, higanjemo ibitoki, aho umugabo wambaye imyambaro y'umukara ari kubikorera neza, kugira ngo bikomeze kwera, bityo bizajyanwe ku masoko Mpuzamahanga.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyokurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibirayi, ibitoki, amateke, ndetse n'ibijumba n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima urimo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bafite ibikoresho mu ntoki zabo bikoresha bahinga uyu murima kugira ngo bawuteremo ibihingwa.

Umurima uteyemo ibyokurya, by'ubwoko butandukanye. Cyane cyane imboga, ndetse n'imbuto. Harimo umugabo, wambaye ipantaro yumukara, ndetse n'umupira w'umuhondo. Aho ari kubyitaho abivomerera, kugira ngo birusheho gukora neza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, higanjemo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo, aho abaturage b'ingeri zitandukanye bari kubyitaho, babikorera neza kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagurishwe ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibijumba ndetse n'ibirayi, aho biri kwitabwaho bikorerwa neza kugira ngo bikomeze gukura bityo umusaruro wabyo uzagere kure, ku masoko Mpuzamahanga ndetse no mu ngo z'abaturage.

Itsinda ry'abagore bishyize hamwe, aho batunganya imyaka y'ubwoko butandukanye kugira ngo babashe kuyijyana ku isoko mpuzamahanga, bityo bakomeze kwiteza imbere bashyira hamwe kandi bazamurana.

Ahatunganyirizwa ibyo kurya by'ubwoko butandukanye cyane cyane ibigori, aho umugabo ukuze ari kubyitaho kugira ngo bibonwe kujyanwa ku masoko Mpuzamahanga bityo umusaruro ukomeze kwiyongera.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibijumba, ibitoki, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bagura kandi bakagurisha hagati yabo bityo bagakomeza gutezanya imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye higanjemo ibitoki, harimo umusaza wambaye imyambaro y'umukara uri kubisarura kugira ngo abijyane ku masoko mpuzamahanga, ababikeneye babigure.

Imifuka irimo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'ibishyimbo, soya, amashaza, umuceri, karoti ndetse n'ibindi bitandukanye bitunganywa bikajyanwa ku masoko mpuzamahanga, kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukomeze kwiyongera.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibijumba, amateke ndetse n'ibirayi, aho abaturage babikorera neza kugira ngo bikure, bityo bazabikoreshe mu ngo zabo, barusheho kugira ubuzima bwiza kandi banasagurire n'amasoko.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo ibijumba, ibirayi, ibitoki ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibijumba ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, aho abaturage babyitaho kugira ngo bikure neza, bityo bizagurishwe ku masoko mpuzamahanga, ubukungu bw'igihugu bukomeze kuzamuka.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibitoki, ibijumba, amateke ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha muri iri soko.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibitoki, imboga ndetse n'imbuto z'ubwoko butandukanye, aho byitabwaho neza kugira ngo bizere bityo bijyanwe ku masoko mpuzamahanga.

Ahateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho byitabwaho kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi abaturage banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uberamo ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, aho bari kubyitaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto z'ubwoko bwinshi, aho abaturage babyitaho babikorera neza kugira ngo birusheho gukura bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi bw'imbuto, aho abaturage bakomeza kubikorera neza kugira ngo bazabikoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi banasagurire amasoko, bityo bakomeze kwiteza imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo: ibitoki, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho biri kwitabwaho n'abaturage, kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizajyanwe ku masoko kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo karoti, seleri, imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha hagati yabo kugira ngo bakomeze gutezanya imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo: ibigori, ibishyimbo ndetse n'imyumbati, aho abaturage babikorera kugira ngo bikure neza bityo bazabashe kubikoresha mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera kandi babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bazabikoreshe mu ngo zabo bagire ubuzima bwiza kandi basagurire n'amasoko mpuzamahanga.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye cyane cyane imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage bazana umusaruro wabo kuri iri soko kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha muri iri soko, bityo bagakomeza gutezanya imbere hagati yabo kandi bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Umurima uberamo ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye harimo imboga, imbuto, ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage babyitaho bagakurikirana uko bikura kugira ngo bazabigemure ku masoko mpuzamahanga, bityo umusaruro wabo ukomeze kubateza imbere.

Umurima uketemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kubisarura kugira ngo babijyane ku masoko Mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage bari kubisarura kugira ngo babijyane ku masoko mpuzamahanga ndetse na bo banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyokurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera neza kugira ngo birusheho gukura, bityo bazabikoreshe mu ngo zabo bakomeze kugira ubuzima bwiza, kandi basagurire n'amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo imbuto z'ubwoko butandukanye, aho umugabo wambaye ikoti ry'umutuku ari kubyitaho kugira ngo arebe ko nta kibazo na gito bifite, bityo bikomeze gukura neza bazabikoreshe mu ngo zabo, kandi banasagurire amasoko, bityo ubukungu bw'igihugu bukomeze kwiyongera.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi ndetse na karoti byongera intungamubiri kubiriye uwo ariwe wese kandi bikifashishwa umuntu ari kwirinda indwara.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage babikorera neza kugira birusheho gukura, bityo bizasarurwe bigemurwe ku masoko mpuzamahanga ndetse banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibishyimbo, amateke ndetse n'imboga rwatsi, aho biri kwitabwaho biterwa umuti kugira ngo bakumire udusimba dushobora kubiteza uburwayi.

Ahabera ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga, aho abaturage babyitaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo nabo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Inyubako iberamo ubucuruzi, bw'ibyo kurya, by'ubwoko butandukanye. Aho abaturage, b'ingeri nyinshi, bazana ibyo kurya, kugira ngo babigurishirize muri iri soko. Aha hari karoti, ndetse n'imboga rwatsi, byaje kugurishirizwa muri iyi nyubako.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, higanjemo imbuto ndetse n'imboga, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha bityo bagakomeza gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage bari kubisarura kugira bagemurire amasoko mpuzamahanga, kandi na bo babashe kubirya mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Akarima k'igikoni gakozwe mu mifuka ndetse n'ibiti, aho imboga z'ubwoko butandukanye, imbuto ndetse n'ibirungo biteye kugira ngo umuturage abashe kubibona byoroshye bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto, aho byitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizajyanwe ku masoko Mpuzamahanga byongere umusaruro.

Akarima k'igikoni gakozwe mu mifuka ndetse n'ibiti, aho abaturage bari guteramo imboga z'ubwoko butandukanye bazajya bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo bakomeze kugira imirire myiza badafite indwara.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye cyane cyane imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko kugira ngo barusheho gutezanya imbere hagati yabo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze gutezanya imbere.

Umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku kandi ufite imisatsi miremire, ari kunyura mu murima uteyemo imbuto z'ubwoko butandukanye, aho ari kugenda areba niba nta kibazo zifite bityo akomeze kuzitaho neza.

Umurima uteyewe n'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko butandukanye, aho byitabwaho kugira ngo bikure neza bityo bizajyanwe ku masoko mpuzamahanga bikomeze kuzamura ubukungu bw'igihugu.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo ibijumba, amateke, ibirayi, imyungu ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha hagati yabo, kugira ngo bakomeze gutezanya imbere.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imbuto nka maronji, ibinyomoro, watermelon, pome ndetse n'ibindi bitandukanye abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko, bityo bagakomeza gutezanya imbere hagati yabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza imbuto zabo kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'imboga, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage baza kubigura ndetse no kubigurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo amaronje, pome, ibinyomoro ndetse n'izindi zitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bari kubyitaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bazabikoreshe mu ngo zabo, barusheho kugira ubuzima bwiza kandi basagurire n'amasoko mpuzamahanga.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza muri iri soko kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, imbuto z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibirungo, aho abaturage bishyize hamwe bari kubikorera kugira birusheho gukura neza, bityo bazabijyane ku masoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto nka karoti ndetse n'ibindi bitandukanye. Aho biri kwitabwaho neza, kugira ngo abaturage bazabashe kubigeza ku masoko Mpuzamahanga.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga n'imbuto, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha muri iri soko, kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo, bityo bose bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahari kubera ubucuruzi bw'imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo ibinyomoro, imyembe ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kubigura ndetse banagurisha, kugira ngo batezanye imbere hagati yabo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahabera ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho umukobwa ufite imisatsi miremire kandi wambaye ingofero mu mutwe we, ndetse n'inkweto zabugenewe, ari kwita ku bihingwa areba ko bitangiritse.

Ahari kubera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye higanjemo inyanya, imboga, imiteja ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu kongera intungamubiri ndetse no kugira ngo ubiriye wese agomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, umugabo wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gusarura inyanya azishyira mu gitebo kugira ngo ajye kuzitunganya bityo azijyane ku isoko.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto, aho biri kwitabwaho kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizajyanwe ku masoko mpuzamahanga bikomeze kuzana ubukungu.

Ahabera ubucuruzi bw'ibihingwa bitandukanye, harimo imboga, karoti ibitunguru ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo, bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye cyane cyane imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage bazana ibyo basaruye mu mirima yabo kugira ngo babigurishirize muri iyi nyubako.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga, imbuto, ibirungo by'ubwoko bwinshi ndetse n'ibitoki, aho abaturage bari kubyitaho kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bazabijyane ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga, imbuto, ndetse n'ibirungo by'ubwoko butandukanye aho biri kwitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko atandukanye.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'imboga, aho byitabwaho kugira ngo bigemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi babashe no kubirya mu rugo rwabo, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ahabera ubucuruzi bw'imbuto z'ubwoko butandukanye harimo umwembe, ibinyomoro, amaronje, inanasi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage b'ingeri zitandukanye baza kubigura ndetse no kubigurisha.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye harimo karoti, intoryi, inyanya ndetse n'imboga rwatsi, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo bityo bose bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibijumba ndetse n'ibirayi, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage baza kubigura ndetse no kubigurisha, kugira ngo bakomeze gutezanya imbere, hagati yabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto nk'amaronje, imyembe, inanasi, ibinyomoro ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha.

Isoko riberamo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, higanjemo imbuto nk'inanasi, imyembe marakuja ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurisha kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uteyemo ibyokurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo, aho abaturage babyitaho neza kugira ngo birusheho gukura bityo bazabigemure ku masoko mpuzamahanga kandi banabikoreshe mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibishyimbo, imboga rwatsi ndetse n'imbuto, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubuhinzi bwibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho biri kwitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizasarurwe bijyanwe ku masoko mpuzamahanga kandi abaturage banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Ahabera ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, intoryi, karoti, imyungu, inyanya ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage baza kugura ndetse no kugurishiriza kugira ngo bakomeze gutezanya imbere hagati yabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho abaturage bari kubikorera neza, kugira birusheho gukura, bityo bizasarurwe bijyanwe ku masoko Mpuzamahanga kandi na bo bisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho biri kuvomererwa byitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizakoreshwa mu ngo zabo kandi basagurire n'amasoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, imbuto z'ubwoko bwinshi ndetse n'ibirungo, aho biri kuvomererwa kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagurishwe ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage bari kubyitaho babivomerera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizasarurwe bijyanwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo aho biri kwitabwaho bivomererwa kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bizasarurwe bijyanwe ku masoko Mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo, aho abaturage bari kubyuhirira bakoresheje amazi kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabikoreshe mu ngo zabo kandi basagurire n'amasoko.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye harimo urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa, n'abana bakiri bato, bazana ibikoresho bitandukanye baje kuvoma amazi meza ari guturuka muri robine, hakurya y'ivomero hateye ibihingwa by'ubwoko bwinshi.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage bari kubivomerera bakoresheje amazi kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, aho abaturage bifashisha amazi aturutse mu bishanga bakuhira ibihingwa, kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bazabashe kubikoresha mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibijumba, imbuto ndetse n'ibirungo bitandukanye, aho biri kuhirwa hakoreshejwe amazi kugira birusheho gukura neza.

Umurima uteyema ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibijumba, amateke, ibirungo ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bari kubyuhira bakoresheje amazi kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bazasagurire n'amasoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho biri kuhirwa hakoreshejwe amazi, kugira ngo bikomeze gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi abaturage banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo: ibigori, imboga, imbuto ndetse n'ibirungo. Umusore wambaye umupira w'umukara ndetse n'umuhondo ari kubyuhira, akoresheje amazi kugira ngo birusheho gukura neza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'imbuto, aho bari kuvomerera kugira ngo bikomeze gukura neza, bityo bazabikoreshe mu ngo zabo kandi banasagurire amasoko.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, aho biri kuvomererwa hakoreshejwe amazi kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi abaturage bazanisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, hagati muri iyi mirima hari gutembamo amazi yifashishwa mu kuvomerera ibi bihingwa kugira ngo bikomeze gukura neza.

Umurima uteyemo indabo z'ubwoko butandukanye zifite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Muri uyu murima kandi harimo ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri iki kirere bityo abahaturaniye bakarushaho guhumeka neza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, ibijumba, amateke ndetse n'ibirayi, aho abaturage babikorera neza kugira ngo birusheho gukura bityo bazagemurire amasoko Mpuzamahanga na bo ubwabo bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo, aho abaturage babikorera babivomerera kugira ngo bizabashe kujyanwa ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto n'ibirungo by'ubwoko butandukanye, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizatange umusaruro. Hakurya y'umurima kandi hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibigori, ibijumba ndetse n'ibirayi, aho abaturage babyitaho kandi bakabyuhira bakoresheje amazi ari muri iyi mirima kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga.

Umurima uberamo imirimo y'ubuhinzi bw'imyaka itandukanye harimo: ibigori, ibijumba, amateke ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bakomeza kubikurikirana kugira ngo bazabijyane ku masoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye harimo imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibirungo, aho abaturage babyitaho bakabikorera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo gukoresha mu ngo zabo bityo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo icyayi, ikawa, ndetse n'ibindi bitandukanye bigemurwa ku masoko mpuzamahanga, hakurya y'umurima hateye ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, imboga ndetse n'imbuto. Iruhande rwawo hateye ibiti birebire by'ubwoko bwinshi, kandi hari amazu y'abaturage ahubatse.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo ibijumba, ibirayi, amateke ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bazagemure ku masoko mpuzamahanga kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Ahabera ubuhinzi bw'icyayi kimwe mu gihingwa kijyanwa ku masoko mpuzamahanga kugira ngo gikomeze kuzamura ubukungu bw'igihugu, bityo abatuye mu gihugu bakomeze gutera imbere neza badafite ibibazo.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, ibishyimbo, ibijumba ndetse n'ibirayi, aho abaturage babikorera kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga, kandi banisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibyokurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibitoki, amateke, ibijumba, ibirayi ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage babikorera neza kugira ngo babashe kubirya mu ngo zabo, kandi banasagurire n'amasoko Mpuzamahanga, bityo ubukungu bw'Igihugu bukomeze kuzamuka.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo akomeze gukura neza atanga umusaruro uhagije.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo arusheho gukura neza, bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho umuturage ari kuyitaho, ayakorera isuku, kandi ayahereza ibyo kurya, kugira ngo arusheho gukura neza. Bityo umusaruro uyakomokaho ukomeze kwiyongera, barushaho kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ihene ndetse n'intama, aho yitabwaho akorerwa isuku kandi ahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo akomeze gukura neza bityo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene ndetse n'intama, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo akomeze gukura neza bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ingurube, ihene ni intama ndetse n'ibindi bitandukanye aho byitabwaho bihabwa ibyo kurya bihagije kandi bikorerwa isuku kugira ngo bikomeze gukura neza bityo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho umuturage akomeza kuyitaho ni kuyakurikirana kugira ngo umusaruro uzayakomokaho ukomeze kwiyongera, yaba amata azagurishwa ku masoko mpuzamahanga ndetse n'ifumbire izakoreshwa mu buhinzi bw'ibihingwa bitandukanye.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo inkoko, ihene, ndetse n'intama aho byitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizatange umusaruro mu baturage ndetse no ku gihugu muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo arusheho gukura neza bityo umusaruro w'ibiyakomokaho ukarushaho kwiyongera.

Ikibuga kirimo inka zifite amabara y'ubwoko butandukanye cyane cyane umweru ndetse n'umukara, ziri hamwe. Iruhande rwazo hari abaturage b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, hari imishwi ikiri mito cyane iri kwitabwaho, aho hari utumashini tuyizanira umwuka mwiza kugira ngo irusheho gukura neza ndetse n'ibindi bikoresho birimo ibiryo biyitunga.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, ihene, intama ndetse n'ingurube, aho yororerwa agahabwa ibyo kurya kandi agakorerwa isuku bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera mu baturage.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ingurube, aho zitabwaho zigakorerwa isuku kandi zigahabwa ibyokurya bihagije kugira ngo umusaruro uzikomokaho ukomeze kwiyongera, bityo abaturage barusheho kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene ndetse n'intama, aho zitabwaho zikorerwa amasuku kandi zigaburirwa kugira ngo zikomeze gukura neza bityo zizatange umusaruro uhagije mu baturage ndetse no ku gihugu muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya bihagije kandi akorerwa isuku kugira ngo akomeze gukura neza bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene ndetse n'intama, aho abaturage babikurikirana kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizabazanire umusaruro uhagije ndetse bibahereze ifumbire izakoreshwa mu buhinzi.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho amatungo yitabwaho n'abaturage, ahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ukomoka kuri aya matungo ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi harimo ihene, intama ndetse n'ibindi bitandukanye, aho byitabwaho bikorerwa isuku kandi bihabwa ibyo kurya kugira ngo birusheho gukura neza bityo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkwavu, aho zitabwaho zigakorerwa isuku, zigahabwa ibyo kurya bihagije kandi zikavurwa mu gihe zarwaye kugira ngo zirusheho gukura neza bityo umusaruro uzikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, aho aba ari kwitabwaho kugira ngo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kuzamuka, harimo amata ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu mirimo itandukanye y'ubuhinzi.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije ndetse n'ibyo kunywa kandi agakorerwa isuku kugira ngo umusaruro ukomoka kuri yo ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza bityo umusaruro uyakomokaho ukomeze kuzamuka.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo umusaruro uyakomokaho nawo ukomeze kwiyongera bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'inkoko, aho yitabwaho kandi agahabwa ibyo kurya bihagije kugira ngo arusheho gukura neza bityo umusaruro ukomoka kuri izi nkoko ugakomeza kwiyongera abaturage bakarushaho kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ingurube, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya kandi agakorerwa isuku kugira ngo arusheho gukura neza bityo umusaruro w'ibiyakomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi harimo ingurube, ihene ndetse n'intama, aho zitabwaho zihabwa ibyo kurya bihagije kandi zigakorerwa isuku kugira ngo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kwiyongera, bityo abaturage barusheho gutera imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare aho abaturage bayitaho kugira ngo bakomeze kuzamura umusaruro wayo, harimo amata ndetse n'ifumbire ishobora gukoreshwa mu buhinzi bw'ibihingwa bitandukanye, bityo abaturage bagakomeza gutera imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo, amagufi ndetse n'amaremare, harimo: inka, ihene, intama, inkwavu ndetse n'ibindi bitandukanye, aho abaturage bari kuzitaho, bazikorera isuku kandi bazigaburira, kugira ngo zirusheho gukura neza bityo zizatange umusaruro uhagije.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene, intama, inkwavu ndetse n'ibindi bitandukanye, aho zitabwaho kugira ngo zirusheho gukura neza kandi zihabwa ibyo kurya bihagije bityo umusaruro uzikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo, amagufi ndetse n'amaremare harimo inka, ihene, intama ndetse n'inkwavu, aho abaturage bazitaho bazihereza ibyo kurya kandi bakazikorera isuku kugira ngo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, aho aba ari kwitabwaho kugira ngo akomeze kuzamura umusaruro w'ibizikomokaho nk'amata ndetse n'ifumbire zikoreshwa mu mirimo y'ubuhinzi itandukanye.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi nk'ingurube, aho zitabwaho zihabwa ibyo kurya bihagije, kandi zikorerwa isuku kugira ngo zirusheho gukura neza, bityo umusaruro uzikomokaho ukarushaho kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ingurube, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku kugira ngo akomeze gukura neza, bityo umusaruro w'ibiyakomokaho ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi ku izina ry'inkoko, aho ari kwitabwaho n'umugabo wambaye imyambaro y'umukara, kugira ngo akomeze kubungabunga ubuzima bwazo neza, bityo zikomeze gutanga umusaruro.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi azwi nk'ingurube, aho yitabwaho agahabwa ibyo kurya bihagije kandi agakorerwa isuku bityo umusaruro uyakomokaho ugakomeza kwiyongera kandi abaturage bagakomeza kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, intama, ndetse n'ingurube, aho byitabwaho bihabwa ibyo kurya bihagije, kandi bigakorerwa amasuku, kugira ngo birusheho gukura neza, bityo umusaruro wabyo ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo inkoko, inka, ingurube, ihene ndetse n'ibindi bitandukanye, aho umuturage ari kubyitaho kugira ngo bikomeze kugira ubuzima bwiza, bityo bizamure umusaruro ubiturukaho, yaba amata ndetse n'ifumbire ikoreshwa mu mirimo itandukanye.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi azwi nk'inkoko, aho ari kwitabwaho ahaga ibyo kurya bihagije kugira ngo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kuzamuka, bityo abaturage bakomeze kwiteza imbere kandi banateza igihugu cyabo imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ihene ndetse n'intama, aho byororerwa kugira ngo byitabweho kandi bigaburirwe kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizatange umusaruro uhagije mu baturage ndetse no ku gihugu muri rusange.

Umugezi utemba hagati mu mirima iteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho amazi aturuka muri uyu mugezi yifashishwa mu kuhirira ibihingwa biteye muri iyi mirima ituraniye uyu mugezi kugira ngo birusheho gukura neza.

Umurima uberamo ubuhinzi bw'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto aho biri kwitabwaho kugira ngo bizabashwe kujyanwa ku isoko mu gihe byamaze kwera neza.

Imirima iteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo ibigori, imboga rwatsi, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye. Iruhande rwayo hari ikiyaga, aho cyifashishwa bari kuhira ibyo bihingwa kugira ngo birusheho gukura neza.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye higanjemo imboga rwatsi zizwi nk'amashu, aho abaturage bazikorera neza kugira ngo zikure bityo zizagurishwe ku masoko mpuzamahanga kandi bazirye mu ngo zabo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage bishyira hamwe kugira ngo bakore ubuhinzi bwabo neza bityo bazagemurire amasoko Mpuzamahanga.

Umurima uteyemo ibyokurya by'ubwoko butandukanye harimo ibishyimbo ndetse na soya, aho abaturage babyitaho bakabikorera kugira birusheho gukura neza, bityo bizasarurwe bijyanwe ku masoko mpuzamahanga kandi nabo ubwabo bisagurire ibyo kurya mu ngo zabo.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye, higanjemo imboga ndetse n'imbuto, aho byitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo bizagemurwe ku masoko mpuzamahanga, bizamure ubukungu bw'igihugu.

Ahabera ubuhinzi bw'ibihingwa bitandukanye cyane cyane imboga, imbuto ndetse n'ibirungo by'ubwoko bwinshi, aho abaturage bakomeza kubyitaho ndetse no kubikurikirana bareba uko bikura neza kugira ngo bizagemurwe ku masoko Mpuzamahanga, bityo igihugu gikomeze gutera imbere.

Umurima uteyemo ibyo kurya by'ubwoko butandukanye harimo imboga rwatsi, ibirungo ndetse n'ibiti by'imbuto, aho byitabwaho n'abaturage kugira ngo birusheho gukura neza bityo bizatange umusaruro mu baturage ndetse no ku gihugu muri rusange.

Ahabera ubworozi bw'amatungo, amagufi ndetse n'amaremare aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya bihagije, kandi agakorerwa isuku kugira ngo akomeze gukura neza, bityo umusaruro ukomoka kuri aya matungo ukomeze kwiyongera kandi abaturage barushaho kwiteza imbere.

Ahabera ubworozi bw'amatungo yo mu rugo amagufi ndetse 'n'amaremare. Hari abagabo babiri bafite inka mu ntoki zabo aho bari kuyibumbura umunwa kugira ngo babashe kuyikingira indwara zitandukanye.

Ahabera ubworozi bw'amatungo y'ubwoko butandukanye, hari umugabo wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe aho ari gusuzuma inka imuri iruhande areba ko nta kibazo na kimwe yaba ifite kugira ngo ikomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahabera ubworozi bw'amatongo magufi harimo inkoko, ihene, intama ndetse n'izindi zitandukanye, aho abaturage bazitaho bazikorera isuku kandi bazigaburira kugira ngo zirusheho gukura neza bityo zizatange umusaruro uhagije.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya, akorerwa isuku kandi aterwa imiti kugira ngo arusheho gukura neza, bityo umusaruro w'ibizikomokaho ukomeze kuzamuka.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho ahabwa ibyo kurya bihagije, agakorerwa isuku, kandi akanakingirwa indwara zitandukanye, kugira ngo akomeze gukura neza, bityo umusaruro uyakomokaho, ugakomeza kwiyongera.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo inka, intama, ihene, ndetse n'inkwavu, aho byitabwaho kugira ngo birusheho gukura neza, bityo umusaruro ubikomokaho ukomeze kuzamuka.

Ahabera ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare, harimo ihene, inkoko, inkwavu ndetse n'inka, hari abagabo bafite inka mu ntoki zabo, aho bari kuyikingira kugira ngo bayirinde uburwayi butandukanye.

Ahabera ubworozi bw'amatungo; amagufi ndetse n'amaremare, aho yitabwaho n'abaturage kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, bityo azatange umusaruro uhagije yaba mu baturage ndetse no ku gihugu muri rusange.

Umurima urimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye harimo agasumbashyamba, impala ndetse n'imparage n'izindi nyamaswa zitandukanye zikurura ba mukerarugendo bityo amadovize akarushaho kwiyongera mu gihugu, iruhande rw'izi nyamaswa kandi hateye ibiti by'ubwoko burebure.

umurima urimo inyamaswa z'ishyamba zizwi nka gasumbashyamba, zikurura ba mukerarugendo kugira ngo bazane amadovize mu gihugu, bityo ubukungu bw'igihugu bukomeze kuzamuka neza.

Umurima urimo inyamaswa z'ubwoko butandukanye, nk'ingurube y'ishyamba ,impala, imparage ndetse n'ibindi bitandukanye, ziri hamwe, hakurya yazo kandi hateye ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko bwinshi.

Umurima urimo inyamaswa zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, zikurura ba mukerarugendo bityo bakazana amadovize mu gihugu, inyuma yazo kandi hateye ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Umurima urimo inyamaswa zifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, aho zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize mu gihugu, iruhande rwazo hateye ibiti birebire bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Ingagi zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo, bakazana amadovize mu gihugu, bityo ubukungu bw'igihugu bukarushaho kuzamuka, ziri hamwe imwe icunze mugenzi wayo, iyirebera ko ntacyayihungabanya.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti birebire, harimo inzovu zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bityo bakazana amadovize mu gihugu.